Abagabo bambaye imyenda yera, bambaye udupfukawa, barimo barasunikira umurwayi muri ambulance, iruhande rwabo hari umusirikare wambaye impuzankano.

Igikoresho cyabugenewe cyo kubikwamo amaraso, yafashwe ku bantu bagiye batandukanye. Kiri mu ibara ry'umutuku, kiziritswe n'ibintu bigifasha gukomera.

Urubyiruko rw'abasore n'inkumi ndetse harimo n'abagabo bakuze bose bambaye amajire ya Croix Rouge ari mu ibara ry'umutuku, imbere yabo hateretse imeza iriho igitambaro biragaragara ko bari mu nama.

Abagabo bane harimo umugore umwe bahagaze imbere y'imodoka yifashishwa kwa muganga yitwa imbangukiragutabara .Biragaragara ko ari abaganga.

Urubyiruko, abakuze ndetse n'abasheshakanguhe, bambaye amajire y'umutuku, yanditseho Croix-Rouge, barimo baratabara umuntu bamuvana mu mugezi yari yaguyemo.

Imodoka iri ku muhanda ni iy’umweru, iri bwoko bwa landi kuruza, yanditseho imbangukiragutabara ibitaro bya Nyagatare.

Abajyanama babiri bambaye amajire ya Croix Rouge bafite urupapuro mu ntoki, barimo bararuhereza umubyeyi bose barimo barafata ifoto y'urwibutso.

Umugabo wambaye ijire y'umutuku inyuma yanditseho kuruwaruje, yambaye agapfukamunwa, arimo arahereza ibiringiti ndetse n'amasaso umubyeyi na we wambaye agapfukamunwa.

Ibiganza bifite uturindantoki, birimo birapfuka umuntu wagize ikibazo ku kirenge, arimo arakorerwa isuku. Yapfutswe ndetse biragaragara ko arimo akira.

Abagabo ndetse n'abagore, bicaye, ahantu, barimo baraganira kubijyanye n'ubuzima. Umwe muri bo yambaye, ijire, y'umutuku, ya Kuruwaruje.

Umukobwa cyangwa se umugore wambaye ikote ry'umukara, arimo araganira n'undi mugabo wambaye ijire ya croi rouge y'umutuku.

Ibikoresho byifashishwa kwa muganga, bibika ogisijeni bityo umurwayi iyo ayikeneye baraza bakayivoma aha, bakayimushyira.

Umugabo uryamye ku gatanda kabigenewe yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto ndetse n'ishati y'iroza, arimo aratanga amaraso.

Icyumba cyo kwa muganga kiriho igitanda, iruhande rwacyo hateretse ibikoresho byifashishwa basuzuma abarwayi, hasi hashashe amakaro, hirya hari urugi rwiza,

Ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, harimo abambaye amajire yanditseho Croix-Rouge aba ni abatabara ndetse n'abafasha imbabare. Hari n'abandi bambaye imyenda ibakingira barimo baratera umuti.

Mu cyumba kicayemo umuganga ndetse n'umurwayi, arimo aramusobanurira uburwayi afite, umuganga yambaye ikaburiya y'umweru amuteze amatwi.

Ni igikorwa cyahuriweho n'abantu benshi, barimo barakora urugendo rwo kwibuka. Ni ibitaro bya nyagatare, birimo biribuka abakozi ndetse n'abakoraga muri serivisi z'ubu ubuzima, bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi.

Umugabo wicaye imbere y'abajyanama b'ubuzima arimo arabaganiriza ku birebana na serivise batanga, iruhande rwe hicaye abagabo babiri bose bamuteze amatwi.

Kwa muganga hari umugabo ndetse n'umugore, barimo baratunganya imiti, ikomoka ku bimera. Imbere yabo hari umugezi, biragaragara ko babikorana isuku.

Icyumba cyo kwa muganga, gitangirwamo serivisi zitandukanye, harimo igitanda umurwayi aryamaho bagiye kumukorera serivisi z'amenyo, hariho utwuma dutandukanye twifashishwa boza amenyo ndetse banayakura.

Icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, avuga ngo ikigo nderabuzima cya Nyagatare iruhande rwacyo hari ikindi cyapa cyanditseho babo. Sha Claudi?

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuzima, harimo abantu bicayemo barimo baraganira, harimo umuzungu w'umugore ndetse n'umugabo ubicaye imbere wambaye ijire, bisa nk'aho ari umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage.

Igitanda kiri mu nzu irimo amakaro, iruhande rwacyo hari intebe z'umukara ndetse n'imeza biragaragara ko ari ho umurwayi aryama ategereje guhabwa serivise zitandukanye.

Icyumba kirimo imashini cyangwa se mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho byabugenewe byifashishwa mu kuvura cyangwa se mu gusuzuma umurwayi, biteretse ku meza ndetse iki cyumba kiratuje.

Umuganga arimo arasuzuma umurwayi umwicaye imbere, uyu muganga yambaye itaburiya yabugenewe, yambaye udupfukamunwa ndetse n'uturindantoki. Arimo aravura.

Abaganga bicaye mu cyumba bambaye amataburiya y'imweru, imbere yabo hari ameza ateretseho ifu izwi ku izina rya sosoma, ihabwa abana bafite ikibazo k'imirire mibi.

Ibiganza byambaye uturindantoki, hari n'ikindi, kiri hirya, barimo baragitera agashinge. Birasa nkaho bagiye kumusuzuma, cyangwa se kumupima indwara.

Abaganga barahagaze, bambaye myenda yabugenewe ariyo mataburiya ndetse bafite n'udukoresho twabugenewe, barimo barareba umurwayi ndetse bamubaza uko ameze, umurwayi yicaye ku gitanda.

Ababyeyi bashigatiye abana babo, baje muri gahunda zo kubakingiza. Imbere yabo hicaye abaganga, barimo barareba mu mafishi yabo ubundi bakabaha serivisi.

Igitanda cyo kwa muganga kiriho akameza kabigenewe umurwayi bamurambikiraho ibyokurya igihe agiye kurya bityo bikamurinda guhaguruka.

Umuganga w'umuzungu ari hagati y'abirabura babiri, aba umwe ni umuganga, undi ni umurwayi. Umurwayi yicaye ku gitanda.

Igitanda cyo kwa muganga, kiryamwaho n'abarwayi batandukanye, hari intebe umurwaza yicaraho ndetse n'utundi dukoresho tugiye dutandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga, aho basuzumira amenyo, harimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu koza mukanwa , mukoza amenyo ,hirya aho gukarabira n'aho muganga yicara asuzuma umurwayi.

Umugore wicaranye n'undi mugore hirya ye, hirya ye hari akana gafite telefoni mu ntoki, bose baje kwivuza bategereje serivise bahabwa zo kwa muganga.

Abagabo babiri ndetse n'umubyeyi uryamye ku gatanda kabigenewe k'abarwayi bari mu biro barimo baravura uyu muntu waje gushaka serivise z'ubuvuzi.

Abasore babiri, baryamye ku bitanda, barimo baraganira, hagati yabo hari umuganga w'umugore wambaye itabiriye y'umweru, biragaragara ko bari gutanga amaraso.

Abaganga ndetse n'abaforomo bambaye impuzankano zitandukanye ziri mu mabara y'icyatsi ndetse n'ubururu. Bambaye udupfukamunwa bose ndetse n'udukoresho twabigenewe two mu mutwe.

Ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga harimo ipamba, uturindantoki, ibikoresho bifashishwa mu gupima ndetse n'ibindi.

Laboratwari ipimirwamo ibizamini bitandukanye harimo mikorosikopi ndetse n'ibindi, n'icyumba kirimo ibikoresho by'ubwoko bwose aho Dogiteri yifashisha ibi bikoresho.

Ibirahuri bikoreshwa kwa muganga, biri mu mabara atandukanye ndetse harimo ibisukika bigiye bitandukanye. Aha ni mu cyumba cya labaratwari aho basuzumiramo ibizamini byinshi.

Kwa muganga, ahatangirwa ibi ibikoresho bitandukanye. Ku meza hari, ipamba yo kumisha, amakayi arambitse ku meza, amacupa arimo, imiti ndetse n'amazi.

Ikirahuri kiri mu ntoki z'umuganga, arimo arasuka mu gakoresho kabugenewe, arimo arasuzuma kandi anapima, yambaye uturindantoki mu ntoki ndetse n'itaburiya y'umweru.

Umubyeyi w'umugore, afite ikirahuri cyabigenewe mu ntoki kirimo amatembabuzi yifashishwa kwa muganga arimo arapima.

Icyumba gipimirwamo ibipimo byafashwe ku barwayi batandukanye. Uyu muganga wambaye uturindantoki tw'ubururu arimo arashyira igipimo ahabugenewe.

Ga z'ubururu, zifite agashinge mu ntoki, zirimo ziratera uwazanye ikiganza, barashaka kumusuzuma ngo barebe niba nta burwayi afite.

Umuganga wambaye ga z'umweru ndetse n'itaburiya y'umweru, afite ikaramu mu ntoki, arimo arandika, ibisubizo ndetse yicaye mu biro bya laboratory.

Mikorosikopi, iruhande rwayo hateretse ibirahuri bigiye bitandukanye birimo, amatembabuzi, yifashishwa muri laboratwari. Aha bafata ibimenyetso bigiye bitandukanye.

Ibiganza byambaye uturindantoki, birimo biratunganya ibimenyetso, bigiye gupima ngo birebe niba ibipimo byafashwe bifite uburwayi.

Umusore w'umuganga wambaye agapfukamunwa, yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki tw'ubururu, ari muri laboratwari arimo arapima ibimenyetso bigiye bitandukanye yahawe.

Ibiganza bibiri, byambaye uturindantoki tw'umweru, bifashe ikindi kiganza, bigiye kukijomba agashinge, ubundi bisuzume niba uyu muntu afite uburwayi runaka.

Umubyeyi wambaye itaburiya ndetse n'akagofero k'umweru arimo arita ku ruhinja rukivuka, arimo ararumeza neza ndetse yambaye uturindantoki tw'umweru.

Umubyeyi wishimye yambaye agashati k'ubururu, acigatiye umwana mu ntoki munini, baje gushaka serivisi z'ubuzima. Bombi barimo baraseka urabona ko bishimye.

Abana bakiri bato barimo barafata amafunguro ku ishuri, bateretse amasahani yabo ku meza ndetse hari ubashinzwe arimo arabagaburira abigisha ko bagomba kurya.

Umubyeyi ukikiye umwana mu biganza bombi bambaye udupira twa oranje, inyuma yabo hari abandi bagabo nabo b'abajyanama b'ubuzima.

Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki yambaye ijire, inyuma ye hari abagabo n'abagore bicaye arimo araririmba.

Abagabo bambaye amajire arimo ibara ry'icyatsi ndetse n'uturongo dutambitse bari mu ishuri barimo barigisha abana bato amasomo agiye atandukanye.

Umubyeyi uri kwa muganga akikiye akana biragaragara ko yabyaye, arishimye arimo araseka, imbere ye hateretse akameza kariho ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Umubyeyi wishimye ashigatiye akana mu ntoki ari kwa muganga urabona ko yishimye, iruhande rwe hari imashini zo gupima ubuzima bw'umurwayi zabugenewe.

Umubyeyi w'umugore afite umwana mu ntoki harimo aramuha ibiryo byiganjemo imboga, imbuto ndetse n'ibyubaka umubiri, harimo n'ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga.

Abagabo ndetse n'abagore bamwe muri bo bambaye udupira tw'ubururu hejuru twanditseho Unicef, bitabiriye umunsi mukuru bahuye nk'abayobozi.

Umuganga w'umugore yicaye imbere y'umurwayi arimo aramubaza ibibazo bijyanye n'ubuzima bw'imitekerereze cyangwa se ubuzima bwo mu mutwe barimo baraganira mu cyumba ahantu hatuje.

Urubyiruko rwicaye ku ntebe, barimo barahabwa amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, harimo abakobwa ndetse n'abasore, harimo abarimo bandika ibyo babwirwa.

Abantu bicaye hamwe, bambaye imipira hejuru isa icyatsi, harimo n'ingabo z'igihugu. Barimo barafata ifoto y'urwibutso, biragaragara ko bavuye mu mahugurwa.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu, ahagaze imbere y'indangururamajwi, agapira ke kandiditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'icyatsi ndetse n'umuhondo, ni RBC.

Ihuriro ry'abagabo ndetse n'abagore, abirabura ndetse n'abazungu, bahuriye hamwe barimo barafata ifoto y'urwibutso. Muri bo harimo umupolisi wambaye inifomu.

Umugore wambaye amadarubindi y'umukara, amaherena ku matwi, yambaye agapira kanditseho RBC. Ari imbere y'abantu benshi, arimo aratanga imbwirwaruhame.

Ibiganza bibiri bifite ibinini biri mu dufuniko twabyo. Ibi biganza hariho inzara ndende ziteye amarangi.

Umuti uvura amatongo magufi ndetse n'amaremare, harimo intama, ihene ndetse n'inka, uri mu gakarito witwa muritivita.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, ari ahacururizwa imiti igiye itandukanye. Ategereje abakiriya baza kumugurira.

Farumasi iba irimo imiti myinshi igiye itandukanye, iri mu dukarito tw'imyeru ndetse n'andi mabara. Munsi harimo utu etageri tugiye turimo nanone imiti iri mu ducupa tw'ubururu.

Farumasi ni inzu itangirwamo imiti y'ubwoko bwinshi, aha iyo urwaye, urabagana, bakakwandikira imiti, ukayinywa, ugakira.

Farumasi irimo uruvange rw'imiti igiye itandukanye, iri mu dukarito. Harimo ibinini ndetse n'imiti isukika. Aha iyo wumva utameze neza, uraza ukagura imiti, ukajya kwivura.

Farumasi izwiho gucuruza imiti y'ubwoko butandukanye, yifashishwa mu kuvura iyo umuntu arwaye arayigana bakamuha imiti ijyanye n'uburwayi afite.

Farumasi itangirwamo imiti itandukanye. Harimo umugore wambaye iserubeti y'umweru, afite imisatsi iboshye, arimo arakora ku miti.

Farumasi irimo imiti y'ubwoko butandukanye iyi miti ivura indwara nazo zigiye zitandukanye hari imiti iri mu ducupa mu bikarito ndetse n'indi iri mu dushashi twabugenewe.

Umuganga w'umugabo, hirya ye hari umugore, bahagaze muri farumasi, ahacururizwa imiti y'ubwoko butandukanye. Barimo barayandikaho, indi bagenda bavuga ubwoko bwayo.

Farumasi icuruza imiti y'ubwoko butandukanye harimo isukika, ibinini ndetse n'ibindi. Iri mu tu etajeri ndetse iri ahantu hafite isuku habugenewe.

Umugabo uhagaze imbere y'abagabo ndetse n'abagore imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi arimo arabaganiriza ku bijyanye n'ubuzima na bo barakurikiye.

Urubyiruko rwahuriye ahantu hamwe rufite ibyapa byanditseho udukingirizo, barimo barashikariza urubyiruko rugenzi rwabo gukoresha agakingirizo birinda virusi itera SIDA ndetse n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Ijwi ry'umurwayi n'uruhare rwe mu bimukorerwa, iki ni ikiganiro gihuza inzobere mu by'ubuzima ndetse n'abayobozi batandukanye kugira ngo baganire ku burenganzira bw'abantu.

Abagabo n'abagore ni abajyanama b'ubuzima, bamwe muri bo bambaye ingofero z'imikara hejuru ndetse n'udupira tw'umutuku, inyuma yabo hahagaze abambaye amataburiya y'ubururu.

Umwana w'umukobwa yambaye agapira k'umuhondo, afite icyapa mu ntoki, biragaragara ko ari umunyeshuri, inyuma ye hari abana benshi biga mu mashuri abanza barimo barashishikariza abantu kwirinda.

Umugabo wambaye agapira k'umweru kariho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, avuga ngo ugakoreshe neza, arimo aragira inama urubyiruko gukoresha agakingirizo.

Abana b'abanyeshuri biga ku rwunge rw'amashuri rwa Akumunigo, bafite icyapa mu ntoki cyanditseho amagambo agira ati "twamaganye ikoreshwa n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko."

Urujya n'uruza rw'abantu bicaye ahantu hamwe, iruhande rwabo hari ingoma zo kubasusurutsa, barakurikiye barimo barahabwa ibiganiro ku birebana n'ubuzima bwabo.

Urubyiruko ruteraniye ahantu hamwe, inyuma yabo hari icyapa kinini kibakangurira gukoresha udukingirizo, ibi birinda imbaga nyamwinshi kwandura agakoko gatera sida.

Umusore wambaye amadarubindi, yambaye agapira k'umweru kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ngo "Ugakoreshe neza". Hari ibyapa bibiri birimo amabara y'umutuku ndetse n'umweru yose yanditseho ngo: "Ugakoreshe neza".

Icyumba kinini ahatangirwa serivisi zitandukanye zivuga ku buzima, hari abantu benshi abagabo ndetse n'abagore baje kumva ndetse no gushishikarizwa ibijyanye n'ubuzima.

Urujya n'uruza rw'abantu harimo abambaye imipira y'icyatsi abandi bambaye imipira ya oranje harimo n'abana bakiri bato, baje muri gahunda z'ubuzima.

Urubyiruko rurimo abagabo ndetse n'abagore harimo n'abakuze, bafashe agakingirizo mu ntoki barimo barashishikariza abantu gukoresha udukingirizo mu gihe kwifata byabananiye.

Imiti ya gakondo akenshi itunganyirizwa mu bikoresho n'ubundi bya gakondo, aha ni umuntu urimo arasekura ibyatsi mu gasekuru kabugenewe, arimo arayitunganya mu kanya iribuze kuvamo umuti.

Amatovu azwi mu kuba ahada cyangwa se kujombana, ayanga indabo zijya gusa iroza, ni meza ku matungo.

Ibiribwa bitandukanye birimo indimu na tangawizi, bifasha ubuzima bwacu kumera neza, harimo n'ubuki ndetse n'indi mizi y'ibiti igiye itandukanye.

Umugore wicaye hamwe arimo aravanga imiti ya gakondo igiye itandukanye, bifasha urwaye kuba yakira vuba bitamusabye kujya gushaka imiti ya kizungu.

Umugabo urimo araseka, ahagaze iruhande rw'amadarubindi y'ubwoko butandukanye, aha ngaha iyo urwaye amaso urabagana, bakaguha amadarubindi aberanye n'uko ungana.

Inzu nini yanditseho gira ubuzima health post. Aha hatangirwa serivise z'ubuzima zigiye zitandukanye, bikaba byakorohereza umurwayi kuhagera atiriwe akora urugendo rurerure.

Abantu bafite abana bakiri bato babazanye ngo bahabwe serivisi zo kwikingira, barimo barabaganiriza ku byiza byo guhabwa urukingo ku bana bakiri bato.

Ibikarito bibiri bigerekeranye, akandi gakarito gato kari hasi, harimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo.

Abagabo bane ndetse n'umugore umwe barimo barava ku ivuriro handitseho gira ubuzima, aba batanga serivise zijyanye n'ubuvuzi.

Umugabo wicaye imbere y'umurwayi arimo aramuhereza amakuru ku birebana n'uburwayi afite, undi nawe arimo aramwandika mu gakayi amubwira uko ubwo burwayi bwe bwitwa.

Amacupa arimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo. Aya matungo harimo ihene, amafarashi, ndetse n'intama, n'inkoko.

Agazu gasize irange ry'ubururu kanditseho girubuzima, hicaye abantu bategereje guhabwa serivisi zijyanye n'ubuzima hari n'abakozi baho.

Abagabo babiri bambaye amaserubeti y'umweru barimo baraganira bamwe bandika mu ikayi undi arimo amubaza ku bijyanye na serivisi, mbere yabo hateretse ibitanda abarwayi baryamaho.

Abana barindwi bicaye imbere y'ahantutu hatangirwa serivisi z'ubuzima, hari umugore uri kwerekezayo, hameze neza.

Ivuriro ryaganwe n'abayobozi batandukanye harimo abirabura ndetse n'abazungu, barasa nk'aho baje kuritaha iruhande rwabo bahaparitse moto.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi zitandukanye, barimo barakora ndetse ahandi hari urukarabiro, aho abantu bakarabira. Ibi bigatoza abanyarwanda bose kugira isuku.

Umugabo ndetse n'umugore, umugore arimo arahereza ibintu byinshi umugabo wambaye isarubeti cyangwa se itaburiya y'ubururu.